Iyo ugiye ahantu aho ari ho hose yaba gusura abantu cyangwa uvuye nko mu bwiherero, biba byiza iyo ukarabye n'isabune n'amazi meza.

Iyo twahinze tukeza tugomba no gukenera gutera imiti mu bimera kugira ngo bigire ubuzima buzima, kandi bigaragare neza ku buryo n'ubibona abona yuko bisa neza bishimishije.

Twagiye gusura umurima wacu twateyemo ibihingwa bitandukanye ibishyimbo, ibigori, amasaka kugira ngo nidusanga hari indwara zabiteye, dutereho imiti kugira ngo ibihingwa byacu bikomeze bigire ubuzima buzima, bikure neza kugira ngo tuzabirya bifite intungamubiri nzima.

Mu bisanzwe guhinga ni byiza, kugira ngo icyo wahinze kimere neza kigubwe neza, ni uko gikenera ifumbire, yaba mvaruganda cyangwa isanzwe.

Mu buzima busanzwe imiti idufasha mu ndwara zitandukanye, yaba inkorora, yaba malariya n'ibindi bitandukanye, bigatuma tubasha gukira vuba kandi byihuse.

Inkoko ni ikinyabuzima kandi inkoko ni itungo tworora bigatuma tubona inyama zo kurya, kandi tukabona n'amagi afasha abana gukura neza, ndetse n'abantu bakuru bakagira ubuzima bwiza.

Guhinga imboga ni byiza, cyane cyane dodo, amashu, imboga za sereri, karoti intoryi, ibibiriganya n'imiteja ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ikawa ni kimwe mu bimera duhinga, kikera vuba kandi, kikagira umusaruro ufatika uri hejuru kurusha ibindi. Kubera yuko, iyo turebye dusanga, igiti kimwe cyeraraho, utubuto twinshi cyane kandi...

Ubucuruzi ni bwiza budufasha kubona amafaranga kandi bukaduha iterambere byaba kuri twe mu ngo zacu.

Ibigori ni byiza kubihinga, kubera yuko biduha ifu y'akawunga, ndetse bikaduha impungure zo kurya, tukanabirya bitetse.

Ibyo duhinga tuzi agaciro k'ibyo dukora tuba tugomba no kubyitaho kugira ngo bigire agaciro kandi nubibona abona bisa neza bifite ubuzima bwiza. Nkuko twiyitaho ni nako tugomba kwita ku binyabuzima ndetse n'ibihingwa byacu.

Ubuhinzi ni bwiza, cyane cyane guhinga ibijyanye n'imboga harimo: inyanya, intoryi, ibitunguru, imboga rwatsi ndetse amashu.

Ibigori bya iburide, ni ibigori byiza, kandi bifite intungamubiri ikomeye, kandi bifasha umuntu, gukomera umubiri ukaba ufite imbaraga.

Inkoko ni nziza kuko zituma twirira amagi kandi amagi akaba afite intungamubiri zidutungira umubiri muri byinshi bitandukanye kandi akaba afasha abana gukura neza ndetse n'abantu bakuru bakagira ubuzima bwiza.

Niba duhinga tuba tugomba kuza tukita ku byo twahinze, tukamenya ibibazo bifite kandi tukabivomera, tukabyitaho uko bishoboka kose kugira ngo bizaduhe umusaruro ufatika.

Mu Gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu, umuturage agomba kuba afite akarima k'igikoni ko guhingamo imboga zo kurya mu buzima bwa buri munsi kuko zidufasha kubona indyo yuzuye, zigatuma umubiri wacu ugira intungamubiri.

Ubuhinzi ni bwiza aho dusanga ibihingwa bitandukanye, biterwa imiti bigakura neza bibona n'isoko rizima kandi ryiza.

Guhinga bya kijyambere, duca amaterasi y'indinganire, kugira ngo turwanye ibitsuri ibiribwa ibihingwa byacu. Ni byiza kandi bifite umumaro.

Gukora imihanda ducamo ni byiza, bidufasha guca ahantu heza kandi hasa neza, bigatuma n'abahaciye bahibazaho, bikabatera ishema kandi na twe twabikoze.

Ubuhinzi ni bwiza kuko tubonamo umusaruro, tukabasha gukuramo ibyo kurya, kandi bitubutse. Iyo turi kubikora tuba dufite intego, kandi twifuza yuko byazatugirarira umumaro kandi bikatuzamura bikaduteza imbere.

Iyo tubonye umusaruro mubyo twakoze, yaba ibyo twahinze, yaba ibyo tworoye, biba ari byiza biradushimisha nk'abantu kuko hari icyo tuba tugezeho.

Kwita ku biribwa ni byiza bifite umumaro ukomeye, kubera yuko no kwita ku nsina uzisasira, ukazihinga ahantu hategeranye, bituma zibyara n'utundi twana tukabona aho dukurira.

Iyo twejeje ibirayi cyangwa se ibijumba ndetse n'ibindi bitandukanye, tugomba kubishyira mu mifuka isa neza, tukabibika ahantu hameze neza.

Hano twahinze ibigori birera turabyanika turimo dushaka ifu ya kawunga yo kuzajya turya, kandi biragaragara yuko rwose bimeze neza.

Yo twejeje, tugashyira mu mufuka, tukaba dufite aho, tuzabika ibintu byacu heza hasukuye, biba ari byiza kandi, biba ari iby'umumaro.

Gutera igiti ni byiza ku butaka bituma ubutaka budatsuka, imiyenzi, inturusu, sipure ndetse n'ibindi bitandukanye harimo avoka, imyembe, amapera.

Gutera igiti cya avoka ni byiza, bifasha abantu kubona imbuto mu buryo bworoshye kandi nyinshi, zivamo umusaruro mwinshi ufatika, kandi avoka ni urubuto rwiza ushobora kurya rukakugirira umumaro mu mubiri.

Guhinga ni byiza, wahinga insina, ibijumba, imbuto, intoryi, inyanya ndetse n'ibindi bitandukanye. Bituma tugira umusaruro mwiza kandi uhagije.

Twagiye gusura ishyamba ryacu ngo turebe ukuntu rimeze ngo turebe ibindi bintu byezemo bitari bisanzwemo, twasanze harezemo n'ibindi bintu bitandukanye ibiti byiza bya kimeza ndetse n'ibindi harimo imigwegwe za geriveriya n'ibindi bitandukanye.

Iyo duhinze imbuto yaba amatunda, ibinyomoro, amacunga, iyo byeze bidufasha mu mirire, mu buzima busanzwe, tukabaho neza, tugakura neza, bikatwongerera amaraso.

Mu buzima busanzwe gutera igiti ni byiza, bituma ahantu giteye hagaragara neza kandi hakaba impumeko nziza. Mu by'ukuri ni ubuzima kandi...

Mu Rwanda no mu bindi bihugu byinshi ku isi, birabujijwe gutema igiti kubera yuko igiti cyo ku muhanda kiba gifite icyo kimaze cyane kurusha ibindi biti byo mu ishyamba aho babitema bakabitwigisha amakara, ariko ibi biti byo ni umwihariko kuko birinda imihanda kwangirika.

Iyo umuhinzi agiye gutera insina, yibanda kuri ibi bikurikira, atera insina agashyiramo intera y'umwanya, nibuze wa sanimetero mirongo itanu kugira ngo, n'insina nibyara n'umwana abone aho azakurira yisanzuye.

Imbuto kuzirya ni nziza kuko zituma tujya mu bwiherero neza, zigatuma amaraso atembera neza mu mubiri kandi zikadutera imbaraga.

Nkuko tubizi guhinga ni ibyiza kandi bifite umumaro ku bantu benshi. Bituma abantu babona ibyo kurya kandi byiza kandi bigatuma...

Kubungabunga ibidukikije ni byiza kuko biduha guhumeka mwiza kandi tukagira umwuka mwinshi aho dutuye hakinjiramo umuyaga uhagije bigatuma tugira ubuzima bwiza.

Imbuto ni nziza, cyane cyane ku mubiri w'umuntu, ku bana kuko zituma bakura neza bakagira ubwenge zikabongerera amaraso ndetse n'imbaraga.

Ubuhinzi nk'uko twabibonye kandi tukanabyigishwa ni ibintu byiza bituma umuntu ubikora abona umusaruro, akabona amafaranga ndetse n'ibindi byose bishoboka kuba yabona ibyoku kurya, ndetse bikamutungira n'umuryango.

Indabyo ni bimwe mu bidukikije byiza, bituma igihugu kigaragara neza, aho tuba, aho dutaha, ndetse bikarinda n'isuri kugira ngo amazu adatsuka, kandi bigatanga n'umwuka mwiza aho tuba.

Twagiye ku isoko guhaha imbuto zitandukanye harimo amatunda, ibinyomoro, watermelon, amaronji n'ibindi.

Twakoze urugendoshuri turebera hamwe uburyo tugomba kubungabunga ibihingwa, tunahigira ibintu bitandukanye n'uburyo twahinga inyanya mu buryo bugezweho, intoryi ndetse n'ibindi bintu bijyanye n'imbuto.

Iyo twumvise bavuga ku mbuto, twumva imbuto ari nziza kandi ko zifite intungamubiri zitandukanye zitunga abantu benshi ku isi.

Mu buzima busanzwe kwita ku bihingwa tubibagara, tubisasira, tubivomera, tubitera imiti, ni byiza kuko bituma ibihingwa byacu byera neza nta kibazo.

Biba byiza iyo uhinze ibimera byawe, ugafata n'igihe cyo kubyuhira amazi kugira ngo bituma ngo binambe kandi bigire ingaruka mbi.

Guhinga mu misozi ni byiza, cyane cyane tukitabira no gushyiramo amaterasi y'indinganire, kugira ngo ubutaka budatsuka, kandi n'ibimera bigatemberamo amazi uko bikwiye.

Mu buzima busanzwe amazi ni ingirakamaro, cyane cyane atemba kuko adufasha mu bintu bijyane no kubona amashanyarazi, ndetse iyo bayafashe bakayakora neza aba n'amazi akoreshwa mu buzima busanzwe, bakayanywa, mbega ni ingirakamaro.

Nkuko tubizi kugira ubusitani mu ngo zacu ni byiza kuko bituma hagaragara neza kandi uhaje akahicara agubwa neza akaruhuka kandi akumva atuje muri we.

Ubuhinzi ni bwiza, yaba guhinga icyayi cyangwa ibishyimbo cyangwa imbuto cyangwa imyumbati, ibirayi, ibijumba ndetse n'ibindi bitandukanye.

Gusura parike ni byiza. Bituma tugira ubumenyi butandukanye yaba ku nyamaswa ndetse no ku bindi bintu tuhasanga nk'ibiti bya kera harimo ibiti bya kimeza, ibiti birandaranda, za sipure, gereveriya ndetse n'ibiti by'ubwoko bwose, za ribuyu, ibiti by'amapoto n'ibindi.

Tugomba kwita ku matungo tuyagaburira, kandi tuyaraza ahantu hasa neza, tukayarinda kurara ahantu hara, kurarana n'abantu, ndetse n'ibindi bintu bishobora kuyagiraho ingaruka nko kuyicisha.

Korora amatungo ni byiza, bituma tubona amata, tukabona amagi, tukabona byinshi bitandukanye ndetse n'ibindi, cyane inka, inkoko, intama n'ihene.

Nkuko tubizi itungo rihaka tuba tugomba kubaba hafi, tukarigaburira intungamubiri, kandi tukariha ibikenewe byose, birimo amazi, ubwatsi bwinshi...

Mu buzima korora ni byiza, bidufasha kugera ku iterambere ariko na none tugomba kuba twitaye ku matungo, twayahaye ibyo kurya bihagije kugira ngo aduhe umusaruro ufatika.

Tworoye ingurube, tworoye ihene, intama inka, n'imbeba z'inzungu, ibi byose ni ibiduha iterambere, bikatugeza kuri byinshi bitandukanye.

Ingurube ni itungo ryiza ryororoka vuba kandi rigatanga umusaruro mwinshi mu gihe gito, bigatuma tubona amafaranga mu buryo bwihuse kandi bworoheje.

Korora ni byiza, yaba abantu bakuru, abana, ingeri zose zitandukanye, tugomba kwita ku matungo uko bikwiye, tuyagaburira tuyakorera amasuku aho aba ndetse n'ibindi.

Biba byiza iyo tworoye ubuki, tukabasha kubwororera ahantu heza hatari mu nzu, tukabijyana no mu ishyamba kugira ngo inzuki zibashe kuba zisanzuye, zitagira n'uwo zirya.

Korora ni byiza cyane kandi turebye nk'inka biduha kubona amata, bikaduha n'izindi nka zitandukanye ziyiturutseho.

Niba ufite itungo rituranye n'ahantu bahinze ibishyimbo cyangwa se isombe n'ibindi bitandukanye rishobora kugenda rikangiza, rizirike kandi urikurikirane.

Mu buzima busanzwe korora itungo ni byiza kuko ridufasha gutera imbere kandi rikaduha kubona ifumbire ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bituruka kuri yo.

Amatungo yacu aba agomba kuba ahantu hasa neza, kandi hari isuku, kuko na yo ari ibiremwa, agomba kurya, akitabwaho nk'uko nawe wakwiyitaho.

Korora ni byiza kandi biradufasha mu iterambere, bikaduha kubona ifumbire, ikindi biduha kuba twabona inyama zo kurya, ndetse tukabona amata yo kunywa, n'ibindi.

Korora ni byiza, bituma tubona amata, tukabona amagi, tukabona n'ibindi bintu bitandukanye nk'ifumbire.

Ahangaha tuba twagiye gutunganya, ibiti ndetse n'izindi mbuto, tugomba gutera mu murima. Aho tubanza kuzishyira mu gafumbire kugira ngo zikure tukazitwikira, tukazikorera buri kimwe, nyuma tukazazikura aha ngaha. Tukazijyana aho zigomba gutererwa.

Iyo duhinze imboga zikera, tukazirya zidufasha kugira ubuzima bwiza kandi zibamo vitamini zitandukanye nyinshi.

Twagiye gusura uruganda, twasanzeyo ibintu bitandukanye, aho biga gukora amata, biga gukora amaji n'ibindi bintu bitandukanye, gukora amasabune, mbega ibintu bizatugirira umumaro mu gihe kiri imbere.

Twagiye gusura amatungo yacu, harimo inka, ihene, intama, ingurube n'izindi zitandukanye, kugira ngo turebe ibibazo zifite by'ubuvuzi n'izidapfumuye amatwi tuzipfumure, tuzambike amaherena n'ibindi.

Inyamaswa ni nziza kuko zikurura abakerarugendo mu Rwanda, zikazamura ubukungu bw'Igihugu, zigatuma Igihugu kiba cyiza kurushaho.

Mu buzima gusura parike ni byiza kuko tuhasanga ibisimba bitandukanye ingwe, intare, impage, impara ndetse n'ibindi.

Mu gishanga aho dusanga udusimba dutandukanye byaba ibikeri, imitubu n'utundi dusimba twinshi tugendesha inda n'ibindi.

Twakoze urugendo shuri tujya muri parike muri nyungwe kureba inyamaswa zitandukanye, harimo imparage, intare, ingwe, ibisamagwe, ndetse n'izindi tutari tuzi, twabonye byinshi twamenyeyeyo tutajyaga tubona.

Inyoni ni imwe mu nyamaswa nziza zirangwa no kuguruka, kandi iyo ziri mu kirere ntizigaragara neza, zigatuma aho zituye hagaragara neza kandi...

Aha ngaha twagiye gusura pariki, twabonye ibintu bitandukanye, ibikoko harimo: ingagi, intare, ingwe, ibisamagwe, ibirura ndetse n'imbwa.

Twari twagiye gusura muri parike, twaciye ahantu hatandukanye, yaba ku birararo ndetse twabonye ibisimba, twabonye ibiti, n'ibindi bitandukanye.

Inyoni ziri mu bwoko bw'inyamaswa ariko ziguruka, harimo nyinshi zitandukanye, yaba ifundi, yaba inyamanza, ndetse n'ibisiga bibarirwa muri ubwo bwoko bwazo.

Twagiye gutemberera mu nshe za Musanze, duca ahantu bita mu Nzove, tuhasanga udusimba dutandukanye, tumeze nk'inkende, dushimishije.

Akenshi mu buzima busanzwe, ibisimba biguruka harimo inyoni, ibisiga, ibyanira, uduca, sakabaka ndetse n'ibindi, bitunzwe natwe abantu kubera ibiryo dusigaza duta mu mifuka ibindi mu bishingwe, ni byo bitunga ibi bisimba biguruka.

Ibinyugunyugu ndetse n'utundi dusimba twinshi dutandukanye tuguruka, ni udusimba tuba tugaragara neza kandi twiza utubonye arishima kandi akumva aguwe neza.

Imbwa ni igikoko cyiza kuko gifasha abantu kubacungira umutekano w'ibyabo, kandi gikunda n'ugitunga, mbega ni inshuti nziza y'umuntu.

Inyamaswa nziza ni bimwe mu bintu by'ibikoko dusanga muri parike bigakurura abakerarugendo kandi iyo babibonye barishima bakanezerwa.

Mu buzima busanzwe tuzi yuko ibisimba biguruka nta hantu bikora cyane ko twebwe abantu aritwe tubitunga, ko ibiryo tugenda tumena, ibyo dusigaza, bitunga izi nyamaswa ziguruka.